Abana bakiri bato iyo bari gukina n'ababyeyi babo birabashimisha. Aba ni abana bakoze uruziga maze bahana amaboko, aho bari kuririmba uturirimbo tw'abana tugiye dutandukanye, harimo ababyeyi babiri bari kubarebera.

Iyi ni inzu abarimu bahuriramo mu gihe bavuye kwigisha abana, aho buri mwarimu aba afite intebe ye ndetse akagira n'ibitabo bye, rimwe na rimwe ugasanga hari n'impapuro aba afite abana bakoreyeho amabazwa, aho buri mwarimu iyo yicaye aba asubira mu bye ngo arebe ko byuzuye.

Iki ni ikigo k'ishuri kigwamo n'abana b'inshuke, harimo umumama waje gutwara umwana we amukura ku ishuri, ari kugerageza kumuhekesha agakapu, mu rwego kugira ngo amutoze kujya atwaramo amakayi.

Aba ni abana bari mu kigo cy'amashuri, ni abana bakiri bato bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse na kacye, bambaye udukweto turi mu mabara agiye atandukanye, bose bahetse udukapu turimo amakayi yabo, ndetse umwe muri bo afite akajerekani karimo amazi.

Abana bato cyane b'abanyeshuri, bavuye ku ishuri, bari kugenda bakina iby'abana mu nzira, bambaye impuzankano; ni amashati meza cyane ya buresiyeri, ndetse n'amajipo ya kake. Abahungu bambaye udukabutura, bambaye udukweto tw'amabara agiye atandukanye.

Mu bigo by'amashuri ukunze gusanga mu ishuri mo imbere bamanikamo agapapuro , cyangwa se icyapa kibasha gutuma abana bamenya ibintu bimwe na bimwe, aha hari urupapuro rw'umuhondo ruriho inyuguti ni imibare yanditse mu nyuguti, mu rwego rwo kugira ngo abana bamenye uko bayibara n'uko bayandika.

Ubu ni ubwiherero rusange bukaba bugizwe n'imiryango itatu cyangwa se ine, aho ubu bwiherero bukoreshwa n'abantu baba bateraniye hano, bityo bikabarinda kuba bahura n'indwara ziterwa n'umwanda.

Umubikira uhagaze imbere y'umuryango. Ni umuryango w'ikigo cy'amashuri, ukaba ufite inzugi ebyiri urw'inyuma rw'ibyuma ndetse n'urundi rw'ibirahure rurimo imbere. Ni ikigo bigaragara yuko ari ik'i Kansi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amajipo y'umukara ndetse n'amashati y'ubururu. Bakaba bambaye ibitambaro mu mutwe. Bari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, hepfo yabo hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati y'ubururu.

Aba ni abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda bari gutambuka mu kigo, hasi hasashe amapave ku ruhande hari inyubako nziza cyane zisize amarange y'umuhondo zikaba zisakaje amabati atukura, ikirere kirasa neza cyane.

Iyi ni inyubako bigaragara ko ikomeye kuko yubatswe kera. Hakaba hubakishije amatafari ahiye, inzugi zisize irangi ry'umweru ndetse hejuru hariho agakuta kubakishije amatafari, hakaba hasakaje amabati atukura.

Inyubako nziza cyane zubatswe neza zikaba zisakaje amabati, imbere yazo hakaba hari ubusitani burimo utwatsi tumeze neza ndetse n'uduti ubona ko tukiri gukura, aha hantu ni heza cyane kuko bigaragara ko hitaweho.

Aha ni mu nyubako mo imbere. Hakaba harimo igitanda kimwe kigeretseho ikindi hejuru. Hose hasasheho matela ndetse n'amashuka. Mwene ibi bitanda bakunda kubijyana mu bigo by'amashuri mu rwego rwo kugira ngo abana babiri barare ku gitanda kimwe.

Inyubako nziza cyane zisakaje amabati atukura, zikaba zubakishije amatafari ahiye. Hari akayira gasakaye aho abantu banyura batanyagirwa, harimo abana b'abakobwa; bigaragara ko ari amacumbi y'abantu bafite ubumuga, mu rwego rwo kugira ngo bajye bahagera kandi bitabavunnye.